Uburezi ni inkingi y'iterambere, aho Leta yubatse ibigo by'amashuri abana bigiramo, ndetse bakabubakira n'ibibuga byiza byo gukinamo imikino igiye itandukanye, kugira ngo bazamure impano zabo bakina siporo zitandukanye, ndetse batibagiwe n'ubumenyi bahabwa mu mashuri meza bubakiwe.

Uburezi ni ingirakamaro cyane, aho abanyeshuri bubakirwa ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, nk'ahantu bafatira ibyo kurya, aho haba harimo ameza manini, atuma barya bisanzuye, ndetse n'intebe bicaraho mu gihe bari gufungura amafunguro.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, aho tugomba kugira n'indangagaciro zituranga, kugira ngo tuzakure dufite ubumenyi, kandi dufite n'uburere twahawe mu mashuri twizemo, maze tukarushaho kubana neza.

Uburezi ni bwiza cyane. Aho abanyeshuri bubakirwa ibikorwa-remezo bibafasha kwiga neza. Laboratwari bakoreragamo ubushakashatsi bugiye butandukanye, maze bakarushaho gukarishya ubumenyi bwabo, bakazakura biteza imbere, babikesha uburezi bahawe bufite ireme.

Kwiga imyuga ni byiza cyane, aho biga nko kudoda kugira ngo babe babikoresha igihe bashoje kwiga, badoda imyenda z'abantu bagiye batandukanye bakiteza imbere binyuze mu mwuga bize mu mashuri yabo.

Uburezi n'inkingi y'iterambere mu gihugu cyacu .Aho abanyeshuri bagomba kwiga bafite ibikoresho bitandukanye bibafasha kuzamura ubumenyi bwabo, kandi bakigira mu byumba birimo ibyo bikoresho byose, kandi byubatswe neza, bibafasha gukarisha ubwo bumenyi.